Aba bantu bicaye, harimo uwambaye amarinete, akaba harimo umukobwa umwe uhagaze, kandi umukobwa ari kuvugira kuri mikoro, afite na terefone mu ntoki, uyu mukobwa yambaye agapira gafite ikora ry'umukara.

Kuri sitade hari abantu benshi kandi hasize irangi ry'ubururu, n'umuhondo, n'icyatsi kibisi; ku kibuga hahagaze abantu babiri. Aba bantu harimombaye umupira w'umweru n'pantaro y'umukara.

Inzu nziza ishakakaje amategura isize irangi ry'umuhondo ndetse amadirishya yayo n'inzugi hasize irangi ry'ubururu. Imbere y'iyo nzu haparitse imodoka y'ivatiri, impande y'iyo modoka hahagaze umugabo ucigatiye ikoti mu kuboko kw'ibumoso wambaye ipantaro y'ubururu, ndetse n'ishati y'ubururu bwijimye.

Aba bantu bari mu nama, harimo umugabo munini wambaye linete z'umukara, afite mikoro mu ntoki, yambaye ingofero y'umuhondo, kandi hari ameze iruhande rwe, hateretseho ibyuma.

Uyu muhanda wa kaburimbo uriho akantu k'umurongo uzamuka, kariho amabara y'umweru n'ay'umukara kandi hakabamo undi murongo umanukaho, ugahita utambikaho gatoya ugana ibumoso.

Uyu mugabo afite amabuye abiri ku rutugu ahagaze mu muhanda, inyuma y'iwe hari umwana, inyuma y'umwana hari umugore wambaye igitenge kirimo amabara atukura, iruhande rw'uyu mugabo hari ururabo rurerure.

Aba bantu bari munzu y'imyidagaduro bari gukora siporo harimo abunamye, harimo abicaye, harimo n'abambaye amasengeri atukura, harimo n'abandi bambaye amasengeri y'ubururu.

Uyu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwawo hari amabara abiri, ibara rimwe rirasa n'umweru, irindi birasa n'umukara, hagati harimo akarongo kagufiya, hakaba hari n'undi murongo nawo muremure.

Inzira y'abanyamaguru harimo umukobwa uri kuri terefone kandi uwo mukobwa yambaye agapira k'umukara, yambaye ijipo y'ubururu, iruhande rw'uwo mukobwa hepfo ye hateye imikindo hari n'ibyatsi.

Uyu ni umuhanda w'ibitaka, ku mpande y'umuhanda hepfo hari ibyatsi hari n'imiyenzi, ku ruhande rwa ruguru hariho rigori, kandi imbere y'uyu muhanda kure mu ruhande rwo hepfo harimo akazu k'amabati atukura.